Abanyeshuri bo mu kigo cya pirimeri, aho bigishwa kwita ku mboga kuko zifite akamaro kanini ku buzima bwabo, kuko zivamo vitamine zongera umubiri ubudahangarwa bwo kurwanya indwara.

Abana bari mu kigo mbonezamikurire aho bigishirizwa hamwe bagafashirizwa hamwe, mu rwego rwo kuzamura ubumenyi bwabo, bakaba banasangirira hamwe kugira ngo bongere umubano uri hagati y'abo bana.

Ikigo mbonezamikurire gifasha ababyeyi mu kwita ku bana hibandwa cyane cyane ku mirire ku busuku ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe bwabo, aho abana basangirira hamwe bakanakinira hamwe mu rwego rwo kurushaho kumenyana ndetse no kongera umubano wabo.

Ikigo mbonezamikurire gifasha mu kuzamura ubumenyi bw'abana, kikanafasha ababyeyi mu kubaha amahugurwa y'uko bakwiriye kwita ku bana babo mu gihe bari mu rugo, ndetse n'uko bakwiriye kubaganiriza no kubakinisha, mu rwego rwo kuzamura ubuzima bwabo bwo mu mutwe.

Urusengero rw'idini Gatolika rufite ubusitani bunini, burimo ibiti bifasha mu gutunganya umwuka duhumeka, bukaba bufite n'ikigega gifata amazi kugira ngo hirindwe kuba habaho ikibazo cy'isuri.

Umunyeshuri wicaye ku ntebe ikoze mu rubaho, ufite mudasobwa yatanzwe na gahunda ya Leta yo kongera ubumenyi mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu bakiri batoya, urimo ucomeka umugozi winjiza amashanyarazi mu mashini.

Akabati gakoze mu biti kari mu cyumba, kifashishwa mu kubika ibitabo bikoreshwa n'abanyeshuri mu rwego rwo kwiyungura ubumenyi ku ngingo zigiye zitandukanye, harimo nk'ubumenyi bw'Isi imibare ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri bagiye ku ishuri kugira ngo batozwe umuco wo kugira isuku ndetse bunguke n'ubumenyi, aho bigishwa koza ibikoresho baririyemo muri gahunda yo kurira ku ishuri yashyizweho na Leta y'u Rwanda.

Ikigo cy'amashuri, gifite ubuso bunini, kikaba gikikijwe n'ibiti ndetse n'urusengero rw'idini gatorika. Aho cyifashishwa, mu gutanga uburezi, ku bana b'ingeri zitandukanye. Muri gahunda ya leta yo kuzamura ubushobozi.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'uruzitiro mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abanyeshuri kugira ngo bakomeze barinde ubusugire bwabo, biririnde ibishobora kubarangaza ndetse n'ibishobora kubajyana mu bishuko.

Abanyeshuri bo mu kigo cya segonderi bambaye impuzankano imwe, aho bari mu cyumba mberabyombi, barimo bahugurwa ku bijyanye n'isuku y'ibiribwa mu rwego rwo kwirinda indwara.

Abanyeshuri bari mu busitani muri gahunda y'amahugurwa mu kubongerera ubumenyi ku ngingo zigiye zitandukanye, aho bakurikiye neza kugira ngo babashe kugira icyo batahana.

Abanyeshuri bari mu isomero aho bari kwiyungura ubumenyi basoma ibitabo bitandukanye harimo nk'inkoranyamagambo, iby'ubumenyi bw'Isi ndetse n'ibindi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ishuri rigizwe n'abanyeshuri ndetse n'umwarimu ubafasha mu kongera ubumenyi bwabo, aho abasobanurira yifashishije ikibaho cy'umukara, mu kubereka uko bakora ibintu bigiye bitandukanye.

Abahanga mu bijyanye n'imyuga, aho barimo bahugura abanyeshuri bo mu bigo bya segonderi, bambaye impuzankano imwe, bicaye mu ishuri rifite amadirishya afasha mu kwinjiza umwuka mwiza ndetse n'ikibaho cy'umukara, kifashishwa mu gusobanura ingingo zitandukanye.

Abanyeshuri bari mu busitani bukikijwe n'ibiti kugira ngo bibafashe kubarinda izuba no kubona akayaga keza, aho bakurikiye inyigisho irimo gutangwa.

Inzu igeretse rimwe yifashishwa mu gucumbikira abagenzi bagiye batandukanye, ikikijwe n'ubusitani bwiza bufasha umuntu kuruhuka mu mutwe, ikaba ifite n'ikigega gisakuma amazi avuye ku mireko ndetse no ku mabati.

Ikigo cy'amashuri gifite ikibuga cy'umukino w'amaboko ukinwa n'abakinnyi batandatu kuri buri ruhande, kikaba gikikijwe n'ubusitani bwicarwamo n'abafana baje kureba uwo mukino.

Abanyeshuri b'urwunge rw'amashuri rwitiriwe mutagatifu Yozefu bakina umukino w'amaboko, aho barimo baganira n'umutoza wabo abereka uko bakwiriye gukina neza kugira ngo batsinde umukino.

Ikigo cy'amashuri cya segonderi cya Karubanda, giherereye mu Karere ka Huye mu Ntara y'Amajyepfo hasi gato ya gare ya Huye, kikaba ari ikigo kigwamo n'abakobwa gusa kikaba kizwi mu gutanga uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri bavuye mu masomo yabo, aho bagenda mu muhanda bitonze mu kayira kagenewe abanyamaguru mu rwego rwo kwirinda impanuka, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti bifasha mu gutunganya umwuka abantu bahumeka.

Abanyeshuri ba segonderi, basuye inzu kugira berekwe uko yubakwa, bambaye impuzankano imwe igizwe n'ishati y'umweru, ijipo cyangwa ipantaro ya kaki, inkweto z'umukara zirimo amasogisi y'umweru.

Abanyeshuri bicaye mu busitani aho bakurikiye ikiganiro kirimo gutangwa n'inzobere zabyigiye mu rwego rwo kungura ubumenyi bw'abo banyeshuri ndetse no kubafasha mu gukomeza kwitekerezaho kugira ngo bagire ejo hazaza heza.

Abanyeshuri bavuye mu masomo yabo aho bambaye impuzankano bagenda mu gace kahariwe abanyamaguru mu rwego rwo kwirinda impanuka zikunze kubera mu muhanda bitewe n'uburangare bw'abanyamaguru ndetse n'abatwaye ibinyabiziga.

Abanyeshuri bo mu kigo cya primaire aho bicaye ku ntebe zibaje mu biti, imbere hari ikibaho, ishuri risize sima risakawe n'amabati, bafite impapuro barimo basubiramo kugira ngo biyungure ubumenyi.

Korali y'abanyeshuri bo mu kigo cya segonderi aho bari kumurika indirimbo yabo baririmba bahimbawe, mu gitaramo cyari cyateguwe mu rwego rwo kugaragaza impano zitandukanye ziri mu banyeshuri.

Ikigo cy'amashuri cya segonderi gifite ikibuga cy'umukino w'amaboko ukinwa n'abakinnyi batanu ku mpande zombi, kikaba kirimo ababyeyi ndetse n'abana babo ku munsi wo gusura.

Abanyeshuri bo mu bigo bigiye bitandukanye bambaye impuzankano, aho barimo bahabwa ubumenyi n'inzobere ku kijyanye no kwita ku isuku y'ibiribwa mu rwego rwo kurwanya indwara zandura biturutse ku isuku nke.

Ikibaho cy'umukara cyifashishwa cyane cyane mu bigo by'amashuri nka pirimeri cyangwa se segonderi mu gusobanurira abanyeshuri ingingo zigiye zitandukanye ndetse n'amasomo agiye atandukanye nk'imibare, umuziki, ubumenyi bw'isi ndetse n'ibindi n'ibindi.

Icyumba cy'ishuri cy'ikigo cya segonderi, kirimo amadirishya abasha kwinjiza umwuka mwiza, kikabamo ikibaho cy'umukara cyifashishwa n'umwarimu, mu gihe arimo asobanura, ndetse kikaba kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano imwe, barimo basubiramo amasomo yabo.

Icyumba gikoreshwa mu rwego rwo kongerera ubumenyi abanyeshuri bo muri kaminuza y'Urwanda, ishami rya huye, kigizwe n'intebe ndetse n'ameza bikoze neza mu gufasha abanyeshuri kwiga neza.

Isomero ririmo ibitabo bigiye bitandukanye byifashishwa cyane n'abanyeshuri, mu rwego rwo kongera ubumenyi ku ngingo zigiye zitandukanye, aho usangamo ibitabo nk'inkoranyamagambo, iby'ubumenyi by'Isi, ndetse n'ibitabo birimo inkuru ngufi, ndetse n'inkuru ndende.

Icyumba cyifashishwa mu kwakira inama ndetse n'ibirori bigiye bitandukanye, kikaba kirimo intebe zibaje mu biti zikoze neza, utugabanya ubushyuhe ndetse n'amatara afasha mu kugabanya umwijima.

Icyumba cy'umunyeshuri wo muri Kaminuza, kirimo igitanda gisashe neza ndetse n'umusego umufasha kwisegura, kikabamo aho bamanika imyenda mu rwego rwo kugira ngo ihore imeze neza ndetse n'umugozi wo gusimbuka mu rwego rwo gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikigo cya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye kirimo isomero, aho abanyeshuri bajya gusoma ibitabo mu rwego rwo kwiyungura ubumenyi, gikikijwe n'ibiti bifasha mu kuyungurura umwuka duhumeka, ndetse no kongera ubwiza bw'icyo kigo.

Restaurant itekera abayigana amafunguro yuzuye intungamubiri mu rwego rwo gukomeza gukurura abakiriya, ikaba ikorera mu gace ka Huye aho yiganjemo cyane abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye.

Ikigo cya kaminuza gifasha mu gutanga ubumenyi ku banyeshuri barangije segonderi, kikaba gifasha mu kuzamura ubumenyi bwabo muri gahunda ya leta yashyizweho y'uburezi kuri bose kugira ngo hakomeze kuzamura ubushobozi bw'abanyeshuri.